Abana batatu bari ku murongo, muri abo batatu harimo abahungu babiri n'umukobwa umwe uhagaze hagati y'abo, bambyaye iniforume isa, hasi ni ubururu, hejuru umuhondo, imbere y'abo hari imigezi itatu, iri kuzana amazi, n'abo basize isabune mu ntoki, bari kuyikuba.

Abana batatu bari gukaraba mu ntoki buri mwana yateze ibiganza ku mugezi we, inyuma yaho hagaragara igiti kirekire cyane gifite ibishami byinshi cyane, kuri icyo giti hakagaragara ko kigoswe n'ibyatsi.

Umuganga wicaye, imbere ye hari ameza ariho impapuro nyinshi, n'igicupa kirimo amazi, abantu bahagaze imbere ye, bari kugenda baha ikaramu, bari ku murongo bagasinya, muri abo bantu harimo abana batoya n'ababyeyi bahetse.

Bahagaze hagati y'ihuriro ry'amazu yubakishije amatafari ahiye, akaba abantu akaba ari benshi, kuri iruhande rwabo hari icyapa kigaragaraho umuntu n'amagambo yanditseho.

Abana bambaye amashati y'umuhondo hejuru bamanitse ibiganza, inyuma yabo hari abantu bakuru harimo abambaye ingofero z'imikara ndetse n'indorerwamo z'amaso, kuri iyo nzu iri inyuma yabo isize irangi ry'ubururu.

Abantu bicaye ku ntebe imbere yaho hari ameza ashasheho igitambaro kirimo ibara ry'ubururu n'umweru, hakagaragara na telefone icaginze, imbere yabo hari ibicupa birimo amazi.

Abantu benshi bahagaze bafite ibipapuro binini byanditseho mu ntoki, muri bo harimo abambaye ingofero n'abifubitse mu mutwe b'igitsina gore, inyuma yabo haragaragara umurima uteyemo ibihingwa bitandukanye, hirya yawo hakagaragara inyubako yubakishije amabati hasi.

Abana bane hagati yabo hateretsese ibase, hejuru yabo hari umugabo wambaye bote ni'pantaro y'umukara ufite agakombe karimo amazi ari kubasukira ku biganza.

Abantu bahagaze imbere y'isharagati bambaye amataburiya asa ubururu, imbere yabo hicaye umuntu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, akaba yicaye ku ntebe ya palasitike isize irange ry'umweru.

Uruzitiro rukoresheje ibyuma by'umweru n'ibiti biri kumpande bisa nk'aho byabuze izuba kuko bitagitoshye nk'uko igiti cyabonye izuba, bisa nk'aho byabuze amazi kuko igiti iyo cyibuze amazi kidatoha neza.

Umubyeyi wicaye ku ntebe zo kwa muganga akikiye umwana we mu ntoki, akaba yicaye impande ya muganga, muganga ari kumwakira umwana ngo amuvure amusekera.

Amezi abiri ateretseho utugega tubiri turimo amazi n'ibikombe, abana b'abanyeshuri bari imbere y'utwo tugega, bari kuvoma ayo mazi bakoresheje udukombe tw'uduparasitike.

Umubyeyi washyize umwana mu gitambaro arangije akizirika mu ijosi, umwana ari imbere ye, amukikije ukuboko kumwe, ukundi kuboko kuri gufungura umugezi, amazi agwa mu ndobo isa umukara.

Abantu bafite uruhu rw'abirarabura bambaye ingofero z'umweru n'imipira y'umweru bari kumwe n'umuntu ufite uruhu rwera, bafite icyapa cyanditseho ngo umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri. Isuzumishe turandure kanseri y'inkondo y'umura.

Abantu bicaye ku murongo, nyuma yabo hari ubusitani, kuri uwo murongo bicayeho muganga ari kupima afata ikintu akakizirika ku kuboko.

Impombo iri gucamo amazi meza y'urubogobogo hakagaragara ukuboko k'umuntu guteze kuri iyo mpombo aho aya mazi ari kugwa haragaragara ko hari ikizenga kinini cyane ari kugwamo ku ruhande hari ibibuye bihagaze.

Abantu benshi bicaye ku ntebe zitambitse zikozwe mu rubaho, bafite amakaye n'amakaramu, muri bo hari umugabo wicaye ku ruhande wambaye ishati y'umweru n'ikote n'ipantaro by'ikositime.

Umwana wambaye agasengeri, ahagaze mu kiyaga afite ikibuni ari kuvomesha amazi, ari gukoresha uburyo bwo gufata icyo kiguni akakirambika mu mazi mo hagati yarangiza agakanda hejuru amazi akajya mu munwa w'ikibuni.

Abagabo babiri barimo gusuhukanya umwe yambaye ikote ry'umukara n'ipantaro y'umukara ndetse n'ishati na karuvati n'undi yambaye ibisa bityo, hirya yabo haragaragara icyapa cyanditseho amagambo kuri icyo cyapa harimo ibara ry'ubururu uwo mugabo uru gusuhukanya n'undi, umwe afite telefone mu ntoki, undi afite igitabo.

Muganga yambaye itaburiya na baji mu gatuza, ari guha umurwayi ibinini, ku ruhande rwe hagaragara umurwayi ufite ibinini mu ntoki.

Umugore wipfutse igitenge, ikindi acyambaramo iribaya, yakikiye umwana mu ntoki, muganga ari kumukoraho yambaye gamu mu ntoki.

Haragaragara mu ibara ry'ubururu ikirangantego cy'umuryango mpuzamahanga wita ku bana UNICEF n'andi magambo y'ururimi rw'icyongereza.

Abantu bahagaze imbere y'inzu yubakishije amatafari ahiye, ni abantu b'igitsina gore, harimo abambaye amajiri abandi bakenyeye ibitenge.

Umuntu wazanye amajerekani abiri kuvoma, ateretse ku mugezi wubatse neza, inyuma ye hari ibimera bitandukanye, hagaragara nkaho ari mu murima.

Umubyeyi w'umumama wikoreye indobo y'umutuku, akaba ashyigatiye indi ndobo y'umuhondo, imbere ye hari ibiti bisa nk'aho byenda kuma byabuze amazi n'ibyatsi byumye.

Abantu bahagaze mu kibuga, inyuma yaho hakaba hari inyandiko iri ku cyapa gisa ubururu, muri abo bantu bambaye imipira y'imyeru n'amapantaro y'imikara abenshi muri bo, hakagaragara n'abandi bambaye imipira y'ubururu. Hakagaragara n'abagore bambaye amakanzu.

Umunyeshuri uri kuvoma amazi, avuye mu kigega, yifashishije igikombe, ku ruhande rwe hari igipangu cyubakishijwe amatafari ya rukarakara.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru; imbere ye hari ameza arambitseho urupapuro n'ikaramu, imbere ye hahagaze akana n'umubyeyi uri inyuma yako, muganga afite icyuma yakojeje mu gatuza k'uwo mwana acishije mu ishati, icyo kikaba kigera mu gutwi kwa muganga.

Abantu bicaye hamwe bambaye n'amabaji mu gatuza, abandi bakaba bari inyuma yabo bahagaze bariguseka cyane. Inyuma y'abo bantu bose hari icyapa gihanitse ku nzu cyanditseho RBC cyangwa se R na B na C.

Umwana wateretse ikipuni ku mugezi ari kuvoma, hasi y'umugezi hari ibindi bibuni bitatu, inyuma ye gatoya hagaragara ibihingwa bitandukanye harimo insina z'ibitoki.

Umuntu wicaye ku ntebe imbere ye hakagaragara abantu benshi bamuhagaze imbere, inyuma yabo hari ibiti birebire.

Abayobozi bicaye mu gisharagati cyangwa se itente, imbere yabo hari umuntu ufite indangururamajwi uri kuvuga, muri abo bayobozi haragaragaramo umuntu wicaye ku ruhande wambaye iniforume cyangwa impuzankano y'igipolisi cy'u Rwanda.

Umwana wambaye ikabutura y'ubururu ari kuvoma yateretseho akabuni, hejuru y'umugezi hapfukamye undi muntu wambaye umupira w'ubururu, haruguru yabo haragaragara abanyeshuri benshi cyane bari kugenda muri uwo muhanda.

Abaganga babiri bambaye amataburiya y'ubururu bambaye na ga mu ntoki n'dupfukamunwa , umwe yegereye umusaza wicaye ku ntebe yasamye yambaye akagofero k'ubudodo undi ari inyuma ari hafi y'ameza ateretseho icupa ry'amazi.

Abantu bari bicaye bagose ameza, muri ayo meza hariho amakayi, hariho amacupa arimo amazi, inyuma yabo hari abandi harimo n'abahagaze, hakaba higanjemo cyane cyane afite uruhu rwera.

Abantu bahagaze imbere y'inzu isize irangi ry'umweru. Bambaye amataburiya abenshi muri bo, abandi bafite na za marete ku rutugu. Hagaragara umugore wambaye ishati y'ubururu ndetse n'inkweto z'umweru. N'undi mugabo wambaye ishati y'umutuku uhagaze hagati.

Umumama n'umwana w'umwana afite isahani yasoromeyeho imboga rwatsi, umumama akaba ahagaze inyuma ye acyibereye muri ka karima k'igikoni karimo izo mboga za gapasu.

Abana babiri bicaye ku mugezi bateze ibiganza amazi ari kugendagwa mu ntoki zabo, muri bo harimo uwambaye umupira w'umutuku ndetse n'undi wambaye inkweto zifunze.

Abana bafatanye ku rutugu bari ku murongo bose bambaye imyenda isa ifite ibara ry'ubururu, inyuma y'abo bana haragaragara inyubako yubakishije amatafari ahiye, amadirishya yayo asize irange ry'ubururu.

Abantu benshi bahagaze abahiganje akaba ari abana bakiri batoya imbere y'abo bana hari icyapa kihahagaze cyanditseho amagambo ,hirya gatoya hahagaze abasore babiri n'umugore wapfukamye hasi ukenyeye igitenge umwe muri bo yambaye ingofero y'umweru afite n’indangururamajwi.

Abantu bahagaze imbere y'inzu ifite imiryango ibiri, umuryango umwe urafunze undi ubambyeho icyapa, imbere y'iyo nzu hagaragara ibendera ry'u Rwanda, hirya gatoya hakongera hakagaragara igisharaga cyubatswe ndetse harimo n'umuntu ufite indangururamajwi.

Icyapa cyanditseho amagambo hejuru y'aya magambo hakagaragara inzu yubatse mu buryo bw'amagorofa, hejuru y'iyo nzu hakagaragara ibigega, iyo nzu kandi ikaba isize irange ry'umweru.

Abantu bicaye ku ntebe bambaye udupfukamuwa, harimo abambaye udupfukama tw'umweru n'abambaye udupfukamunwa tw'umukara. Imbere yabo hateretse ameza arambitseho amakayi ndetse n'ibicupa birimo amazi.

Abantu benshi bicaye kuri fondasiyo hanze y'inzu yubakishije amatafari ahiye, muri bo harimo abana ndetse n'abakuze, hagaragara agafuka gateretse impande y'umwana, inyuma yabo ahirengeye hari kandagira ukarabe y'icyuma.

Batanu bicaye mu ntebe za parasitiki, uwa gatanu yicaye ku ntebe yegereye ameza, ameza ariho ibitabo n'impapuro, akaba afite ikayi mu ntoki ze.

Ni abana benshi cyane bari kurwanira kugira ngo bashyire ikiganza cyabo cyangwa se ibiganza byabo ku mugezi. Hari abagejejeho ibiganza, abandi bavomye amazi, bari gukarabira ku ruhande.

Abantu benshi bahagaze, imbere yabo hakaba hicaye abandi bantu ku dutebe. Inyuma yabo hakagaragara icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Umwana uri kuvoma amazi yambaye ikabutura y'ikoboyi afite ibibuni bitatu kimwe yagiteretse ku mugezi hakurya ye hari abandi bantu bari kumushungera harimo n’abakikiye umwana inyuma yabo haragaragara intsina y'urutoki.

Abantu benshi bicaye batumbiriye imbere yabo, imbere yabo hakaba hicayeyo abantu b'igitsina gore bagera kuri batanu n'umwe w'igitsina gabo, hakagaragara na kamera yatunzwe uw'igitsina gabo, akagaragara kuri televiziyo iri imbere yabo.

Abana b'abakobwa bambaye impuzankano n'amakaruvati, bashyize ibiganza byabo umugezi bari koga, inyuma y'aho hari ibiti biferi bifite indabyo z'umuhondo, hari n'undi uhagaze inyuma yabo udafite icyo ari gukora.

Umwana wambaye ikote ry'umutuku, afite ibibuni bitatu imbere ye. Bibiri by'umuhondo, kimwe yagiteretse ku mugezi ari kuvoma, afashijwemo n'umumama uri kunyonga icyuma amazi akaza mu mugezi. Abandi baramushungeye bari hirya haragaragara n'insina z'ibitoki.

Ibiganza byombi biteze ku mugezi, uwo mugezi ukaba uteretse hejuru y'ameza manini akozwe mu mbaho, hirya y'iyo robine cyangwa uwo mugezi hari isabune y'umweru.

Abantu benshi cyane harimo abana batoya ndetse n'abantu bakuze, bari kuvoma ku mugezi bakoresheje indobo zitandukanye. Hari abafite indobo zisa ubururu, hari abafite ibibuni binini bisa umuhondo ndetse n'afite utubuni dutoya cyane.

Bahagaze imbere y'abanyeshuri, muri abo bantu harimo umugore wambaye ikanzu ndende irimo utubara tw'utudomo tw'umweru, imbere yaho hari abanyeshuri bambaye amakanzu y'ubururu, inyuma hakagaragara umuntu wambaye itaburiya y'umweru.

Ni abantu bahuriye hamwe, bigaragara ko ari nk'inama cyangwa bari gushakira hamwe umuti w'ikibazo k'indwara ya virusi ya maribage cyari cyagaragaye mu Rwanda, ibi biri kubera ahantu hasa nk'aho ari i Kigali.

Abantu benshi bari mu nzu bateze amaboko barimo gushayaya, inyuma yaho hagaragara intebe ikozwe mu rubaho. Inyuma hakagaragara n'izindi ntebe zikozwe muri parasitiki zisize irange ry'umweru.

Umwana muto wambaye ikabutura y'umukara ndetse n'agapira kari mu ibara ry'ubururu, muri ako gapira hagaragaramo uturongo dutambitse turi mu ibara ry'umukara, hakagaragara ikiganza gifite agakombe k'icyatsi, kiri kumusukira amazi ku kiganza, na we akaba afite isabune mu ntoki ari koga mu ntoki.

Ni ihuriro ry'abantu benshi bari imbere y'inzu, imbere y'iyo nzu hari n'ibendera ry'u Rwanda ndetse kuri iyo nzu hariho icyapa kiriho abantu bameze nk'abanyeshuri. Bamwe muri bo bari mu gisharagati cyubatswe aho ngaho mbere y'iyo nzu.

Wari kumugezi arimo uwambaye umupira w'umutuku na bote umwe ari kunyonga amazi kugira ngo aze undi yateretse ikibuni kuruhande amazi ari kumeneka inyuma yabo haragaragara umurima udahinze urimo ibyatsi byinshi.

Abantu batatu n'intebe eshatu ebyiri bazegamyeho, iyindi imwe irambitseho impapuro, babiri bafatanye ku rutugu, umusore afashe umukobwa ku rutugu, umujyanama w'ubuzima afite icyapa ari kuba aberekaho.

Abantu bicaye ku ntebe harimo ufite ikaye n'ikaramu imbere yabo hateretse ameza arambitseho igitambaro kirimo ibara ry'umweru n'ubururu imbere yabo hakagaragara amazi n'ibikapu n'umuntu ubahagaze imbere wambaye ikanzu y’umweru naga kote k’umukara.

Umumama ukenyeye igitenge akambara n'ishati hejuru. Yikoreye ikibuni cy'umuhondo gifungishije umufuniko w'umutuku, yikoreje ingata. Imbere ye hari abana babiri.

Udupombo twinshi cyane turambitse ku meza turimo umuti, ku ruhande rwatwo haragaragara icupa naryo ririmo umuti ndetse inyuma yaho hagaragara ikintu kimeze nk'urugi.

Icyapa cyanditseho amagambo mumabara atandukanye. Harimo amabara y'ubururu, harimo ibara ry'icyatsi, harimo umuhondo n'amagambo yanditse mu ibara ry'umukara.

Ni umwana wambaye ikabutura y'umutuku uri kunywa amazi, yateze ibiganza amazi akagwa ku biganza ubundi agashyiraho umunwa akanywa. Hasi aho hari indobo yari yaje kurekamo, iruhande rwe hari inzu igaragaza inkingi zayo zose uko ari eshatu n'ibiti byinshi bitoshye.

Abantu benshi cyane harimo abagabo benshi nibo biganjemo bambaye amakositimu. Inyuma yabo haragaragara icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara afite ikibuni yashyizeho ibiganza bye, inyuma ye hagaragara indabyo nyinshi cyane ziri inyuma y'igipangu.

Wafashe wambaye imyenda y'ishuri yafashe indobo ashyiraho umugezi ayitereka ku kantumezeze nk'ameza ari gufungura ayo meza. Iruhande rwe hariho urugo rusobekesheje ibikenyeri.

Abantu bicaye bagose ameza abateretsemo hagati, kuri ayo meza hakaba hateretseho ibikarito birimo imiti, muri abo bantu haragaragaramo abaganga bambaye gamu n'amataburiya yo kwa muganga, bari gufasha abarwayi.

Umwana wambaye ishati y'icyatsi uri gukaraba mu ntoki, ku ruhande rwe hateretse ikidomoro gifite ibara ry'ubururu, inyuma ye hagarara umuhanda hirya y'umuhanda hari ibihingwa bitandukanye.

Abaganga bambaye udupfukamunwa ndetse n'umuntu bari gutera urushinge, bisa nkaho bari kumukingira, na we ubwe yambaye agapfukamunwa kandi bari mu cyumba cyabugenewe kirimo ibikoresho bya kiganga.

Inzu isize irangi ry'umweru, imbere yaho hamanitse ibendera, kuri iyo nzu hamanitseho igipapuro cy'icyapa, ku ruhande rwayo hagaragara imodoka n'abantu benshi cyane ndetse n'amatente abiri.

Imbonerahamwe irimo ibice bibiri, muri ibyo bice bibiri harimo uturongo dutambitse, utwo turongo dutambitse ni tune kandi twose twanditsemo amagambo.

Abantu benshi begereye ameza ibiganza byabo bakabishyira ku meza, imbere yabo hakagaragara umuntu w'umumama cyangwa se w'igitsina gore wifashe mu mayunguyungu.

Ababyeyi bicaye hamwe, imbere y'abo hakagaragara abantu bari kugenda baza, bagaburira abo bana bakikiye mu ntoki babaha amata, n'ibindi byo kurya ku bashoboye kurya, bigaragara ko ari irerero ry'abana.

Igishushanyo kigaragaza umubumbe w'isi, hagiye hacamo uturongo dutambitse n'uturongo tumanutse, hasi kikaba kimeze nk'igihaza. Harimo amabara y'icyatsi atatu n'amabara y'ubururu atatu.

Icyapa kiriho abantu bagera kuri batanu, ab'igitsina gore babiri, n'abigitsina gabo batatu, kuri icyo cyapa kandi handitseho amagambo hakoreshejwe ibara ry'umweru.

Abantu bicaye imbere yabo hakagaragara abandi bantu bicaye ku ntebe na none bambaye amakositimu y'imikara ndetse n'amashati y'imyeru, harimo n'uwageretse akaguru ku kandi, inyuma ye hagaragara icyapa kigaragaraho amafoto y'abantu n'inyandiko.

Abantu bahagaze imbere yzu isize irangi ry'ubururu, hagaragaramo abantu bambaye inkweto z'umukara, ndetse n'uwambaye jiri irimo ibara ry'ubururu. Kuri iyo nyubako kandi handitseho amagambo arimo ibara ry'ubururu ndetse no mubara ry'umweru.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri izwi nka kake, harimo abahungu n'abakobwa bafite indobo baziteretse ku mugezi bari kuvoma umwe ari gukaraba mu ntoki, undi afite indobo n'akabuni, abandi babiri bari inyuma, inyuma yabo hari ibiti...

Abagore babiri harimo uwambaye ingofero y'urubaraza n'undi wipfutse igitambaro. Bateruye umufuka, bawujyanye imbere yabo, ahantu harunze imifuka myinshi, hahagaze n'abandi bantu, harimo abagabo n'umugore umwe.

Inzu igaragaramo televiziyo nini ndetse n'abantu bicaye ku ntebe bateganye, buri mbere y'igipande hari ameza ateretseho ibicupa ndetse hagati hakaba hari indabo.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe abiganjemo benshi bambaye imipira y'imyeru y'amaboko magufi, hakagaragaramo umusore wambaye ingofero y'urubaraza y'umweru n'indorerwamo z'amaso n'agakabutura k'umweru, hirya yaho haragaragara n'abandi bambaye ingofero zitari iz'urubaraza.

Umwana wafashe ibiganza bye arabyegeranya abitega maze abitega ku mugezi. Amazi ari kugwa mu biganza bye, umwana agahita ayanywa, kuruhande rwe hari intebe y'ubururu ya parasitike, ikozwe, intebe ya purasitiki, inyuma ye haragaragara ibindi birenge by'abantu.

Abantu benshi bahagaze birunze hamwe, imbere yabo haragaragara umusore wambaye ishati y’umweru n’ipantaro y’umukara n'inkweto z'umweru, iyo nzu bari imbere yayo yubakishije amatafari ahiye.

Abantu benshi bicaye ku ntebe za palasitiki z'umweru, bicaye mu gisharagati gishakaje ihema ririmo ibara ry'ubururu n'umuhondo, kuruhande hahagaritse icyapa, imbere yabo hari umuntu w'igitsina gore ufite mikoro n'ikayi mu ntoki.

Umwana uri kuvomera amazi mu gikosi cya rwabakosiye, cy'umuhondo, kimaze igihe kinini cyane, ibyo bikosi ntabwo ubu bikiboneka, hari imigezi ibiri, umwe ari kuvomaho, undi amazi ari kugwa hasi.

Imodoka y'imbangukiragutabara nyuma y'aho iruhande rwaho hari umudaso inyuma y'umudaso hakaba abaturage benshi bari mu gisharagati n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda rimanitse hafi aho.

Abantu bahagaze imbere y'icyapa gishushanyijeho abantu barimo bambaye amataburiya, muri abo bantu bahagaze imbere y'icyo cyapa, harimo abambaye amataburiya y'umweru ndetse bambaye n'amabaji mu ijosi, hakagaragara n'undi ufite urupapuro mu kuboko. Inyuma ya bo hari n'undi wicaye ku ntebe.

Umugabo wambaye congo n'ipantaro y'umukara yanatebeje. Ari imbere y'akazu. Aho ngaho imbere y'akazu yakoze icyitwa kandagira ukarabe, akoresheje akabuni. Aho yafashe ibiti bibiri arabishinga, ikindi aragitambika, acomekamo akabuni aragapfumura, iyo akandagiye ku giti cyo hasi amazi ahita ameneka agakaraba.

Icyapa gisa ubururu cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, hirya y'ayo magambo hari ikirango kirimo umuntu uteruye umwana.

Umuntu uryamye ku gitanda areba hejuru, hejuru yambaye ubusa yifubitse ishuka isa ubururu, iruhande rwe hahagaze abantu bane, abagore batatu n'umugabo umwe wambaye imyenda isa ubururu.

Umwana wambaye ishati y'umutuku ayihinnye, ari gukaraba mu ntoki ku mugezi, yafunguye umugezi arangije ashyiraho ibiganza, arahindukira areba ku ruhande.

Abantu bakikije umugezi, harimo umuhungu wambaye isengeri y'umutuku n'ibirenge, ateretse amajerekani ku mugezi, umumama agacunda icyuma amazi akazamuka, abandi aho bari inyuma yaho hari insina z'urutoke.

Abantu batatu umwe ari iburyo undi akaba ibumoso undi akaba imbere, hagati yabo harimo icyapa cyanditseho amagambo. Inyuma y'uwo muntu hari ibiti birebire urimo hagati yambaye agapfukamunwa n'umupira w'umutuku.

Umugore n'umugabo bicaye imbere yabo hari ameza, kuri ayo meza hariho ibicupa birimo amazi, umugore afite mikoro mu kuboko, afite n'indi iteretse imbere ye.

Abantu bicaye ku ntebe za kizungu imbere yabo hakaba hari ameza bashyizeho amatelefone, abandi bagashyiraho ibikapu. Hakagaragara umuntu w'igitsina gabo wahagurutse akaba hari ibintu ari kubasobanurira.

Umumama wambaye itaburiya n'impeta n'isaha afite ikaramu mu ntoki. Iruhande rwe haragaragara ibicupa bitatu by'amazi na mudasobwa. Inyuma ye hari abandi bagore bahicaye harimo babiri bambaye amarinete.

Abantu babiri bicaye ku ntebe y'urubaho itambitse muri bo harimo uwambaye ipantaro y'ikoboyi n'ishati y'umukara akagira na furari mu ijosi akaba yambaye n'isaha hirya hari undi mugore wifubitse igishora cy'umutuku inyuma yabo hakagaragara inkwi zashije.

Icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, hejuru yayo hakaba hari akandi kapa karimo amabara abiri umukara n'umweru ariko nako kanditsemo amagambo hirya gatoya haragaragara ibishushanyo by'abantu harimo n'uwambaye karuvati.

Umugore wicaye munsi y'idirishya rifunguye rikozwe mu mbaho, yakenyeye igitenge, yicaye ku gatebe gatambitse, imbere ye hari ikirago kirimo ingenge nini cyane.

Agapira k'amaboko magufiya, ku maboko ni ibara ry'ubururu, naho inyuma mu mugongo ni ibara ry'umweru, handitsemo amagambo hakoreshejwe ibara ry'ubururu.

Abantu bari ku murongo bafashe igipapuro bagihurijeho amaboko, inyuma yabo haragaragara imodoka, hirya y'imodoka hakagaragara ibisharagati byahubatswe.

Abantu batandatu bicaye hanze y'inzu bicaye ku gatebe k'urubaho. Umwe muri bo wambaye umupira w'umutuku afite terefone mu ntoki hakurya ye hicaye abamama babiri bifubitse ibitenge n'akana gatoya undi yambaye ishati y'umweru wegeranye n'umukobwa wambaye umupira w'amaboko magufi w'ubururu.

Umugore uri guseka wambaye ijiri y'umweru, ahagaze mu iduka ririmo amasarisa, amavuta y'inka n'ibirungo bitandukanye.

Ni umubyeyi ukikiye umwana mu ntoki, ari kumwe n'undi mubyeyi uri kumwereka agapimisho bakoresha bapima umuriro, afite na terefone mu ntoki.

Abantu benshi bicaye imbere yabo hari abantu babiri bahagaze harimo uwambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, imbere ye hari ufite mikoro ndetse afite n'ishakoshi mu ntoki.

Icyapa kigaragaraho ibirango bitandukanye, muri byo harimo ikirango cya kaminuza y'u Rwanda UR. Ndetse n'itsinda ry'abantu bahagaze basa nkaho bari kwifotoza, hari abicaye imbere ku gatebe gatambitse, inyumaba hakaba hahagaze abandi bantu.

Icyapa kiriho amagambo yanditseho ku ruhande gato, hakagaragara umufasha wa Perezida w'Igihugu cy'u Rwanda, wambaye indorerwamo z'amaso n'iherene, imbere ye haragaragara utumikoro tubiri.

Abantu benshi bahagaze, hari abahagaze imbere y'ameza akozwe mu mbaho, akaba arambitsweho impapuro n'amakayi.

Ifoto y'umuntu wambaye amataratara, akaba afite umusatsi mwinshi n'ishati y'umweru.

Umuntu uri mu nzira y'abanyamaguru, ufite umuneke yatonoye mu ntoki, akaba yambaye imyenda yacitseguritse n'ipantaro yacitse ku mavi kugera hasi ku kuguru, inyuma ye hari moto n'imodoka mu muhanda wa kaburimbo.

Abantu bicaye, muri abo bantu harimo abagore n'umugabo, abicaye imbere harimo umugore wambaye ijire ndetse n'ibikomo birimo amasaro ku kuboko, yafashe agapfukamunwa akambika ukuboko, ari kuvuga atunga urutoki, iruhande rwe hicaye undi ufite ikayi n'ikaramu.

Icyapa cyanditseho amagambo kikagaragaraho umurongo utambitse uriho akantu gashongoje imbere kagaragaza icyerekezo n'akandi gashongoje aho utangiriye. Hejuru yaho hari amashusho arimo aba abantu basa nkaho bari kwitsamura udutonyanga tubavamo hagaragara n’undi usa nk'aho afite inda.

Abantu benshi bivanzemo n'abambaye impuzangano y'igipolisi cy'u Rwanda. Bahagaze ku masekariye, bamwe bariri imbere, abandi bakaba inyuma, bitewe n'amasekariye ahantu bahagaze, afite isura y'umukara.

Abantu benshi bahanitse amadarapo, amabendera hejuru. Muri abo bantu harimo umwana uri imbere yabo, wakutse iryinyo rimwe.

Ameza ariho igipaki k'ifu, terefoni ya ayipadi na terefone yindi igendanwa, inyuma hakagaragara firigo, n'ababyeyi bicaye ku ntebe bakikiye abana.

Umuntu wicaye mu intebe yazamuye ukuguru, yambaye ipantaro y'ikoboyi mu gatuza ke yambaye agasheneti kameze nk'ishapule. Akongera hejuru yambaye isengeri y'umukara ari guseka cyane.

Abantu bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ashasheho igitambaro kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu, imbere yabo hahagaze umugore wambaye ikanzu y'umweru n'ikote ry'umukara, ku meza haragaragaraho ibicupa by'amazi, amaterefone n'amashakoshi y'abagore.

Umugore uhagaze inyuma y'igipangu cyubakishije amatafari ahiye. Afite agatabo mu ntoki yambaye ibikomo n'impeta.

Intebe z'ubwoko bumwe ziteye ku ku murongo, buri ruhande rw'intebe hateretse icupa ry'amazi, izo ntebe bazicayeho, hari n'izitariho abantu, hagati haragaragara abantu bahagaze muri urwo ruziga.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu hakagaragaraho amagambo yanditse hakoreshejwe ibara ry'umweru, hirya hakagaragara ikadiri irimo ifoto y'umuntu wambaye itaburiya.

Umugore wambariye agapfukamunwa munsi y'akananwa, ahetse umwana mu bishora by'umweru. Hirya ye hari undi mwana mutoya, akenyeye igitenge, imbere ye hari isafuriya.

Umuntu ufite imisatsi y'amarasita, akaba yicaye hasi, yambaye agakabutura kagufi, afite igikoba cyavuye mu ipine ry'imodoka, hirya ye haragaragara amaguru y'abandi bantu...

Mu ishyamba rinini cyane harimo umuntu wicaye ku kirago yakizingazinze, ndetse ku kaguru ke hahabiriye umunyururu uziritse ku giti, kuri icyo giti kiragaragaraho amagambo agiye acyandikwaho, ndetse inyuma yacyo hakagaragara ko hari imifuka ihateretse.

Umuntu wambaye ibipantaro byacikaguritse abyiziritse kumaguru n'urukweto rumwe akandi kaguru nta rukweto rurimo afite ibishashi mu ntoki yambaye n'ikigofero cy'umukara, kuruhande rwe haragaragara ibindi bishashi.

Wicaye ahantu hasi yarambije ukuguru kumwe akurambuye neza ukundi yaguhinnye, afite umusatsi mwinshi ku ruhande rwe haragaragara ko ari mu nyubako yicayemo.

Umuntu wicaye hasi wambaye agakabutura kagufiya, wambaye n'isengeri, afite imisatsi y'amaderede, yicaye hagati mu gikoba kimeze nk'ipine y'imodoka.

Abana benshi bahagaze harimo uwambaye inkweto z'icyatsi za bodabada n'undi umuhagaze iruhande muremure wambaye ibirenge n'agakabutura kagufi.

Umuntu uri hagati y'umugore n'umugabo bisa nkaho bamurandase umugore yambaye urunigi mw’ijosi akenyeye igitenge umugabo nawe yambaye ishati iriho imifuka ibiri uwo nguwo barandase ukuboko kwe gufashe kumugabo gufite inkoni hirya haragaragara akana gatoya.

Abantu bicaye mu kibuga ku ntebe za prasitike zisize irangi ry'umweru imbere yabo hagaragara imodoka nini cyane ifunguye umuryango yanditseho amagambo inyuma y'iyo modoka hagaragara abandi bantu bahagaze ndetse n'indangururamajwi.

Ni umuntu wazamuye amaboko ye akayafatisha mu misaya, undi uri imbere ye akaba yafashe ukuboko kumwe kwe, ari kumureba. Ameze nk'umuntu urwaye cyangwa se umuntu ubabaye bitewe n'ikibazo cyamubayeho, cyangwa se atameze neza umutwe.

Abantu bahagaze ku masikariye mu buryo bw'imirongo itambitse mu bari imbere harimo uwambaye ikositimu na marinete ku ruhande rwe hari icyapa cyanditseho amagambo n'abantu bashushanyijeho.

umukecuru wicaye ku gatebe, hanze, afata amabuye atatu aterekaho isafuriya ashyiramo n'inkwi aracana. Iruhande rwe hari umupfundikizo w'isafuriya n'agakombe ka parasitiki.

Umuntu wambaye ishati y'amaboko maremare, inyuma ye hari undi uhagaze wambaye ingofero y'umukara n'agapira k'umutuku, si abo gusa kuko aho ngaho inyuma hagaragara abantu benshi cyane n'ikibumbano cy'ingagi.

Abantu benshi bahagaze mu nzu irimo amakaro, muri bo abenshi bambaye udupira tw'ubururu hejuru tugaragara n'ikirango kiri mu ibara ry'umweru. Hagati ya bo hagaze umugabo wambaye karuvati n'ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, n'inkweto za congo.

Abantu babiri harimo uwambaye ingofero y'umweru, n'undi utambaye ingofero y'umweru bari gutera igiti. Hirya yabo hagaragara abandi bahagaze imbere y'igiti,, hepfo hakagaragara ihuriro ry'abantu benshi bambaye imipira isa ubururu, inyuma yabo bakaba ibiti byinshi.

Umuntu w'igitsina gore ufite akantu kameze nka pensi, gashamitseho akandi kameze nk'akaderi ari gukubisha mu menyo, afite amenyo y'urusaro hejuru asa nk'aho yambaye ubusa.

Umuntu uryamye ku gitanda agaramye, muganga afite utwuma tubiri ari gukoza mu kanwa, uwo muntu arasanye muganga kandi yambaye agapfukamunwa ndetse n'itaburiya y'umweru na gamu z'umweru.

Umuntu wambaye ubusa hejuru yatereye isume ku rutugu, afite akadodo mu ntoki yakageze ku menyo ye, afite ubwanwa bukeya.

Umuntu wigitsina gabo wambaye umupira wamaboko magufi w’umweru yicongesheje umusatsi muburyo bwa peke afite akadeyi mu ntoki yagacishije mu mwanya w'iryinyo.

Abantu babiri b'igitsina gore, umwe yambaye amarinete, yambaye amataratara, afite igipapuro n'ikaramu ari kwandika, yambaye n'impeta. Undi afite igipapuro n'ikaramu ariko ntari kwandika. Ku meza yabo hagaragara ibicupa birimo amazi.

Abana babiri bari imbere y'umwana umwana yicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza arambitseho ikaramu n'impapuro, barikumwasamura bamureba mu kanwa. Inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru ndetse hirya hakagaragara n'ikindi cyapa gishushanyijeho abantu harimo n'uteruye umwana.

Abana bafite uburoso bari gukubisha mu menyo, mu ntoki zabo hakaba hagaragaramo ibikombe birimo amazi, ni abana bambaye n'impuzankano y'ishuri.

Abantu bahagaze imbere y'ikibaho cyanditseho amagambo yandikishije ingwa y'umweru, harimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru ufite igipopi kirimo igitanda cy'amenyo, akaba ari gukozaho uburoso bw'amenyo abyereka umwana bari kumwe wambaye ishati y'icyatsi.

Mu itsinda ry'abantu bicaye kuri tapi bafite akamwenyu ,harimo abirabura ndetse n'abafite uruhu rwera .Imbere babiri bazamuye intoki ,hari abicaye bicaye imbere hakaba n'abandi bahagaze inyuma yabo.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye ubusa ku gice cyo hejuru. Afite agasatsi gakeya cyane, afashe urudeyi, ari kurucisha mu menyo.

Umuntu ugaramye ku gatanda areba hejuru yasamye, muganga ari gukoresha akuma akura iryinyo, muganga yambaye agapfukamunwa k'umweru na gamu z'ubururu, ndetse n'itaburiya y'ubururu.

Igice cy'umunwa, harimo akananwa n'igitanda cyose kiriho amenyo.

Igitsina gabo hejuru yambaye ubusa, afite ubwanwa bukeya n'agasatsi gaconze gakeya. Afite urudodo mu ntoki yaruzingiye ku ntoki ebyiri arangije ari kurugera ku menyo ye.

Abantu benshi bicaye, imbere yabo hari ameza ateretseho umuti w'amenyo. Hari umwe uhagaze ari koza amenyo akoresheje uburoso na korogate. Abandi bari kureba uko...

Umuntu wambaye umupira w'amaboko magufi w'umweru, afite akadodo afashe akoresheje ibiganza bibiri. Ari kugakubisha ku menyo kandi afite ishinya y'umutuku.

Ni umuntu w'igitsina gabo uri guseka wambaye umupira w'umweru, inyuma ye hakagaragara ibara ry'umuhondo, afite ubwanwa bukeya n'umusatsi yavukanye.

Umwana wambaye ishati y'umweru, ukuboko afitemo uburoso buri mu ibara ry'umuhondo n'ubururu, yazamuye ukuboko afatishije ubwo buroso ashyira hafi y'amenyo ye.

Umuntu ufite imisatsi myinshi cyane, igera mu maso, yambaye agasengeri k'umweru, afite uburoso, ari gukuba ku menyo ye, y'urusaro.

Umuntu wambaye umupira w'umweru uri guseka cyane, yafashe akadeyi mu biganza bye byombi arangije agacengeza mu mwanya w'iryinyo...

Umugabo wambaye itaburiya, yicaye ku gatebe k'icyuma, hafi ye hakaba umugezi bakarabaho uzwi nka ravabo.

Umurwayi ugaramye areba hejuru, muganga yambaye ibikoresho byagenewe, harimo ga n'agapfukamunwa n'itaburiya y'abaganga, ari kumukura iryinyo akoresheje pensi, imakasi n'ubundi buryo bwabugenewe bwizewe.

Abana bicaye ku ntebe zo mu ishuri zikozwe mu mbaho, inyuma yabo hakagaragara ikibaho. Bambaye imyenda y'umweru hejuru. Bafite amapaki arimo umuti w'amenyo bayahanitse.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye agapira imbere, inyuma yambara ishati y'ikoboyi, afite ubwanwa buringaniye ndetse n'umusatsi asokoza mwinshi, ari guseka agaragaje amenyo.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru n'amarinete, imbere ye hagaragara icyapa cyanditseho amagambo, gishushanyijeho, hakagaragara muri icyo cyapa ishusho y'umukara, amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Ni umugabo ufite ubwanwa bwiza ndetse ari guseka, yafashe akadeyi agashyira mu ntoki ebyiri arangije agacisha, akagereka hejuru y'amenyo ye, ari guseka cyane.

Ni inzu isize irange ry'umweru hagaragaramo ibikoresho byo kwa muganga nk'igikoresho gikoreshwa mu gusuzuma umubiri w'umuntu, kuri iyo nzu harimo umuryango urimo urugi rukozwe muri ribuyu, hejuru y'urwo rugi hagaragara isaha y'urushinge ihamanitse.

Abantu benshi bahagaze, imbere yabo hari intebe uretse hari n'abagabo babiri bafite utugare tw'abafite ubumuga, nyuma yabo hagaragara icyapa cyanditseho amagambo n'igiti kirekire gifite amashami manini.

Umugabo ufite imvi nyinshi mu mutwe no mu bwanwa. Yambaye agapira k'amaboko magufi k'ubururu. Inyuma ye hari umugore wambaye itaburiya y'umweru, akaba afite n'imisatsi myinshi igera mu mugongo.

Abagore n'abagabo birunze ahantu agatsiko barangije bahanika ibiganza mu ntoki, hari uwahanitse terefone, hari n'undi wahanitse agasuka, ndetse hari n'undi ufite agasuka ka nyirabunyagu na we mu ntoki, akaba yambaye umwenda w'iribaya, undi akenyeye igitenge.

Abantu batatu harimo uw'igitsina gore n'umugabo wundi ufashe umusaza, wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara akaba afite n'imvi, inyuma ye hashashe igitanda kiriho ishuka y'umweru.

Umugore n'umugabo bose bambaye indorerwamo z'amaso, bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ateretseho ibyo kurya, umugore afite ibyo kurya ku ikanya, umugabo nawe afite icyuma ari gukata icyo kurya kirambitse ku isahani, imbere yabo nanone hari igikombe cy'ikirahure.

Umusaza wicaye ku ntebe z'amadive ari kumwe na muganga, muganga ari kumwambika ikintu bakunze gukoresha bapima umuvuduko w'amaraso.

Umusaza ufite imvi mu bwanwa, ahagararanye n'umukobwa wambaye isaha, imbere yabo hari ikirahure ndetse na mudasobwa birambitse ku meza ateye irangi ry'umweru.

Umusaza wicaye ahantu yambaye ubusa ku gice cyo hejuru, afite imvi nyinshi yaba mu musatsi ndetse no mu bwanwa, inyuma ye hari ibiganza ari byo biri kumwoza mu mutwe ibifuro bikamanuka mu ibase.

Umuntu wicaye arambije ukuguru kumwe, ukundi araguhina asa nkaho akwicarira, arangije arambura intoki azikoza kuri kwa kuguru kurambuye.

Abakecuru bafite inkoni bakenyeye imikenyero bambaye udupira tw'umutuku, umwe afite imvi nyinshi, inyuma ye hagaragara n'abandi bantu bari kugenda, ku ruhande rwabo hari umusore wambaye agapira k'umweru n'inkweto za bodaboda z'umuhondo, ku rundi ruhande hagaragara inzu, hafi yaho hari imibyare.

Ni abantu babiri barimo umugore n'umugabo, umugore afite inkoni mu ntoki yambaye ishapule mu gatuza, muganga afite ubwanwa bwinshi cyane, afite ibikoresho byo kwa muganga yambaye n'itaburiya bose bafite akamwenyu.

Imvi nyinshi cyane ufatanye ku rutugu n'umukecuru wipfutse igitambaro cy'umutuku, umusaza akaba ameze nkaho ari kongorera uwo mukecuru kuko yashyize umunwa ku itama rye.

Umugore wicaye yambaye itaburiya y'umweru afite imvi nyinshi cyane yashokoje, inyuma ye hakagaragara undi umwegereye cyane ufite umusatsi yapfundikiye inyuma, inyuma yabo hakagaragara nanone ameza ahari.

Abakecuru n'abasaza harimo abambaye amakanzu n'utugofero dukunze gukoreshwa n'abo mu idini rya kisilamu, haragaragara umuntu uri kuboha igitebo mo hagati muri bo, bose bicaye ku mukeka.

umusaza wicaye ku ntebe imbere ye hari ameza arambitseho amakaye ari kureba mu ikayi yafashe ikiganza cye agishyira mu gahanga afite imvi nyinshi yaba mu musatsi ndetse no mu bwanwa.

Abantu bambaye utugofero, bicaye mu ntebe z'amadive, buri umwe wese afite abagera kuri batatu bafite inkoni bazirambitseho, abandi bicaye babarebera ntazo bafite.

Ni abantu babiri umukobwa wambaye itaburiya y'abaganga n'umusaza, uwo mukobwa yafashe akuma gafite umugozi n'ikindi kimeze nk'icyenda, agicomeka mu kuboko k'umusaza arafunga, ari gukanda kuri ako kuma, ako kuma gateretse ku meza.

Umuntu w'igitsina gore warambuye amaboko uriguseka. Yambaye n'amaherena afite n'imvi nyinshi cyane. Arigufashwa n'undi muntu w'igitsina gore urikumuramburira amaboko mu rwego rwo kumufasha gukora siporo. Uwo muntu wundi w'igitsina gore ukiri muto afite imisatsi yasukishije itari karemano.

Umugore wambaye amarinete, ufite imisatsi miremire y'umukara ikora ku bitugu, akaba yambaye ikanzu y'umuhondo, afite agacupa ari gusuka ibinini ku kiganza.

Umusaza wicaye ku ntebe, imbere ye hateretse ameza, yarambitseho ikayi, afite ikaramu mu ntoki ari kwandika kandi yambaye itaburiya y'umweru n'amarinete afite n'imvi nyinshi.

Umusaza n'umukecuru bicaye imbere yabo hari ameza, kuri ayo meza hateretseho igikombe kirimo amazi, umukecuru afite urupapuro mu ntoki, umusaza akaba afite telefone mu ntoki, bose bari kuyireberamo.

Umusaza ufite utunini mu ntoki n'amazi yo kutunywesha. Yicaranye n'umukecuru w'imvi nyinshi z'uruyenzi, uri kumusomera uko ajya afata iyo miti.

Abantu batandatu bicaye ku ntebe imwe begamye. Muri bo harimo umugabo ufite uruhara wambaye n'isaha, hakagaragaramo umugore wambaye umupira w'umuhondo, inyuma yabo haragaragara indabo ndende cyane.

Abantu babiri harimo uw'igitsina gore n'ab'igitsina gabo 2 bafashe umusaza uri hagati yabo. Basa nkaho bamurandase. Inyuma ye hagaragara igitanda gishasheho ishuka y'umweru.

Abamama bafite igitebo bari gusoroma icyayi barishimye cyane bari guseka. Muri bo ni batanu ab'imbere bari gusoroma bashyira mu gitebo inyuma yabo.

Muganga ari gusobanurira umurwayi wicaye ku ntebe uko azajya afata imiti. Muganga afite imiti iri mu kiganza cye agiye kuyiha, arikuyiha umurwayi. Umurwayi na we afite amazi arahita ayimirisha. Iyindi miti irambitse ku meza.

Abantu babiri bahagaze imbere y'inyubako, umwe yambaye amataratara, afite n'imvi nyinshi, n'umupira urimo ibara ry'umukara, ariko hakaganza umweru cyane cyane, hirya yabo hari ibimera bihahinze.

Umusaza wicaye mu gatebe yambaye amarinete akaba afite n'imvi nyinshi, yafunze ibipfunsi arambura amaboko, hirya ye hari uwundi w'igitsina gore nawe warambuye amaboko, inyuma yabo hakagaragara undi uhicaye w'igitsina gore.

Abantu babiri bicaye bateganye. Hagati yabo hari ameza ateretseho igikombe cy'ikirahure n'ikaye ndetse n'udupaki tw'utunini, muganga afite ikaramu mu ntoki n'ibinini.

Umugore wicaye ku ntebe yambaye n'impeta y'abashyingiranwe n'amadarubindi yipfutse. Inyuma hakagaragara undi muntu urikumukoraho akaba yambaye impuzankano yo kwa muganga.

Abantu babiri harimo ugeze mu cyiciro cy'izabukuru wameze imvi, yambaye amaherena, bakaba bafati hamwe icyuma gifite utuntu tumeze nk'udupine ku mpande, bagifashe mu maboko bose, umwe yashyizeho akaboko kamwe n'undi yashyizeho akandi kaboko.

Abantu b'igitsina gore, harimo abambaye udupfukamunwa ntabatatwambaye imbere yabo haragaragara umugore wambaye ikanzu idozwe mu gitenge abandi benshi muri bo bambaye imipira y'umweru n'amajipo y'umukara.

Umama wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, ari gusuzumwa n'umuganga akoresheje igipimisho bapima umuvuduko w'amaraso, umuganga yicaye ku intebe z'amadive.

Abantu babiri bicaye imbere y'akabati bafite terefone imwe bari kurebamo, uwa gatatu ahagaze iruhande rwabo ari kurunguruka nawe muri iyo terefone, babiri bambaye amataratara undi ntayo yambaye, uwo utambaye amataratara yambaye ingofero y'ubudodo.

Umusaza wicaye imbere y'inzu umuryango ufunguye, yambaye ishati y'umweru afite n'imvi nyinshi, mu ntoki he hari biswi ebyiri afite mu maboko atandukanye, ku ruhande hari utundi twana tubiri dufite biswi mu ntoki.

Umusaza n'umukecuru, umukecuru yicaye ku gatebe umusaza ahahagaze impande ye, imbere yabo haragaragara ameza, umukecuru yambaye isaha ku kuboko n'impeta y'abashakanye, umusaza yambaye indorerwamo z'amaso, no ku meza hari indorerwamo z'amaso n'agakombe ka pulastike.

Abamama batatu bageze mu zabukuru harimo babiri bambaye indorerwamo z'amaso n'undi wambaye ingofero y'ubudodo, imbere yaho hagaragara igitabo ndetse umwe muri bo wambaye ingofero y'umweru, afite n'ubudodo mu ntoki, uri hagati afite telefone ari kugenda abereka bose bashyizeyo amaso.

Abantu benshi bahagaze ahantu, imbere yabo hari abasaza babiri bambaye ingofero z'urubaraza, umwe muri bo yambaye indorerwamo z'amaso akaba yifubitse n'akitero gasa umweru, uwundi yambaye ishati y'umweru n'akitero gasa umukara.

Umusaza ufite imvi yicaye ku ntebe, hirya ye hari indi ntebe yicayeho umugore ufite imisatsi myinshi, imbere yabo hari ameza ateretseho igikombe, afite telefone mu ntoki ari kwereka umugore we ibiri muri telefone.

Icyapa cy'umuhondo cyanditseho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, inyuma yaho hagaragara ibara ry'ubururu.

Umugabo uhagaze wambaye karuvati n'ishati n'ikositimu. Ahagaze imbere y'agatuti hirya ye haragaragara intebe n'icyapa kiriho ifoto y'umugabo.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'umwana uriho ugaragara yasamye , hepfo ye hari umurongo utukura ufiteho agafureshi.

Icyapa kiriho amagambo yanditseho, n'ifoto y'abantu, harimo umumama ukikiye umwana, afite igikombe, ari kumusomya ibintu biri muri icyo gikombe, inyuma y'abo hari abandi bicaye, bambaye imyenda, amashati y'umweru na karovati.

Abantu benshi bicaye inyuma yabo hakaba abandi nabo babagose bameze nk'abakoze uruziga hakagaragara televiziyo inyuma ya bose itari kwaka n'icyapa cyanditseho amagambo.

Abayobozi bahagaze k'umurongo buri bose bahagaze munsi y'ibirango bafitiye inshingano .abagabo hafi ya bose bambaye amakositimu, abagore bambaye amakanzu, harimo n'umugore umwe wambaye ipantaro n'ishati.

Umugabo n'umukobwa bambaye amabaji. Umukobwa afite terefone mu ntoki n'isaha yambaye agakanzu k'akamini, n'inkweto ndende. Umugabo yambaye ikositimu.

Umugore wicaye mu ntebe y'amadive, inyuma ye hagaragara icyapa cyanditseho amagambo, afite mikorofone yayegereje ku munwa, yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umukara n'ikote ririmo ibara ry'umweru.

Abantu babiri bahagaze ku murongo harimo uw'igitsina gabo n'uw'igitsina gore, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo akoreshejwe ibara ry'umukara, imbere yabo ahagana ku gice cyo mu gatuza hari ikindi cyapa kuri buri umwe wese, cyanditseho amagambo.

Abantu benshi bari mu nzu yubakishije amatafari ahiye, muri bo higanjemo abambaye udupira tw'amaboko magurufi tw'umweru n'abambaye udupira tw'amaboko magufi tw'umukara, bicaye ku ntebe za parasitike zisize irangi ry'umweru, imbere yabo hateretse ameza hariho mudasobwa.

Abantu benshi bafite umusatsi bisukishije bicaye ku ntebe za prastike zisize irangi ry'umweru, bambaye imipira y'umweru imbere hahagaze umuntu wambaye ipantaro y'umweru n'agapira k'umutuku n'ikote ry'umukara, ahagati muri abo bantu hahagaze umuntu ufite kamera uri gufotora.

Abaganga bari kuvura umurwayi umeze nk'aho arembye cyane kuko ari ku byuma bimwongerera umwuka, hagaragara ko bashyizeho n'amasarumu amufasha.

Haragaragara ikirangantego cya kaminuza y' u Rwanda cyandikwa mu nyuguti ya UR ndetse n'ikindi kirangantego cya minisiteri y'ubuzima cya RBC.

Icyapa cyanditseho amagambo harimo ayanditse hakoreshejwe ibara ry'umukara, ndetse n'ayanditswe hakoreshejwe ibara ry'ubururu. Hirya y'icyo cyapa hagaragara urupapuro ruharambitse.

Igitabo kirambuye kirimo amagambo yandika mu ibara ry'umukara, ndetse n'ibishushanyo bitandukanye. Harimo igishushanyo kiri mu kiziga kiri mu ibara ry'ubururu, ndetse hakagaragara n'ikindi gishushanyo kiri mu kiziga, aho harimo ibice bibiri, igice kirimo umweru n'ikindi gice kirimo ubururu.

Icyapa kiriho amagambo yanditse mu nyuguti z'umukara, hakagaragara amabara atandukanye harimo ibara ry'ubururu bwijimye, ndetse n'ibara ry'icyatsi.

Abantu bambaye impuzankano yo kwa muganga harimo uhagaze afite ikaramu n'undi uri gusuzuma umurwayi. Ku meza hari umuti wa handi sanitayiza bakaba bateretseho n'ibindi bikoresho.

Icyuma gitambitsemo hagati kizwi nka bariyeri, imbere yaho hakagaragara amazu atandukanye manini cyane, muri aho ngaho hakagaragara n'imodoka ndetse n'ibyapa biri mu mabara atandukanye harimo ibiri mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi.

Ni abantu bicaye nkaho bari mu nama, abari imbere yabo basa nk'aho ari abayobozi bafite n'amazi ateretse imbere ya buri umwe wese, hakagaragara n'umuntu ufite kamera ari kubafotora abandi bafite mudasobwa n'amakayi n'amakaramu bandika.

Inyubako ndende iriho yubatse mu buryo bw'amagorofa, ukigera ku muryango wayo uhasanga icyapa ndetse hagati y'umuryango harimo bariyeri, haragaragara indabyo nyinshi cyane imbere y'iyo nyubako n'imodoka zihaparitse.

Abantu bahagaze harimo ab'igitsina gore n'igitsina gabo imbere yabo hahgaze umugabo wambaye itaburiya y'umweru ufite igipupe kigaragaraho igitanda cy'amenyo akaba afite n'uburaso mu ntoki ari kubyereka akana bahagararanye.

Inzu isize irange ry'umweru muri parafo yayo hakagaragaramo vandarateri hasi hari agatanda karambitseho amashuka y'umweru, hakurya hakagaragara tereviziyo iri kwaka.

Inzu ku rubaraza rwayo hahagaze abantu harimo uwambaye ikote ry'umweru n'ipantaro y'umukara. Iimbere hakagaragara ubusitani burimo indabo zitandukanye harimo n'izarabye uturabo dusa roza n'umutuku.

Abntu bahagaze impande y'icyapa, muri bo hagaragaramo umwe wicaye imbere yabo n'undi uri hakurya ufite umutaka mu ntoki, nyuma yaho hari ibiti birebire n'indi nyubako.

Inyubako ndende yanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu, imbere yaho hari indabo nyinshi cyane harimo n'umutsina n'izindi zitandukanye ndetse impande y'urugi hateretse amavaze abiri arimo indabo.

Abantu bahagaze impande y'icyapa n'umwe usutamye, aho bahagaze hari utwatsi wagira ngo ni mu kibuga, inyuma yaho hari ibiti birebire cyane n'inyubako isa nk'aho ikuze.

Abantu batatu harimo babiri b'igitsina gore n'umwe w'igitsina gabo. Bambaye amataburiya y'umweru. Hakurya yabo haragaragara akabati gasize irangi ry'umweru, imbere yabo ku meza hateretse agacupa ka parasitike.

Ni inzu iteye irangi ry'umweru, ikaba yegereye kaburimbo, hasi hari indabo, ku ruhande rw'ibumoso hari indabo ndetse hakaba na jaride, imeze neza, ifite ibirahure birebererwamo...

Inzu irimo amakaro ku rukuta hari amafoto atandukanye, ni ibishushanyo biriho amafoto ariho abantu bambaye amataratara n'inyandiko nyinshi.

Abantu bicaye ku ntebe, hari n'zindi ntebe zitariho abantu ziri ku murongo, imbere yabo hari igicupa gisa icyatsi bari kureba mu birarahure.

Ibicupa bibiri bikozwe nka kizimyamuriro, hejuru yabyo hakagaragara utuntu tumeze nka kamera tubifasheho, ibyo bicupa bisize irange ry'ubururu hakagaragaraho n'ibyapa byanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Umuntu wambaye agapfukamunwa n'itaburiya y'umweru, inyuma ye gato haragaragara igitanda kiriho ishuka y'umweru ndetse hirya gatoya hari n'abandi bantu, harimo uwambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'umukara n'agapfukamunwa.

Inzu yubatse mu buryo bw'igorofa, hakagaragara ibiti biri imbere y'iyo nzu byinshi, hagaragara n'umuntu wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara, iyo nzu isize irangi ry'umweru.

Icyapa gishushanyijeho abantu babiri harimo umwe wambaye amarinete ufite n'imisatsi myinshi cyane, hirya hakagaragara undi nawe ufite akandi kapa mu ntoki ndetse handitseho n'amagambo.

Ibitanda bifite amapine bisize irange ry'umweru n'ubururu, kuri byo hashasheho amashuka y'umweru hakagaragara hakurya amarido ahanitse.

Inzu irimo amatara azimije ndetse n'imiti ipanze mu kabati. Imbere y'akabati, hateretse intebe ya parasitike isize irange ry'umweru.

Abantu benshi bicaye udutebe tw’ibyuma hejuru hariho akamatora, hari n'abahagaze imbere yabo haragaragara ameza arambitseho ibikoresho bitandukanye.

Inyubako isakaje amabati atukura n'ayubururu, yanditseho Remera, Rukoma. Ifite ubusitani bwiza n'indabo zibukikije ku ruhande. Kumpande hagaragara ibigega bibiri, hagati yabyo harimo icyapa.

Inyubako irimo abantu, bambaye impuzankano ijya gusa umukara, n'ibyuma bakoresha basinya ko bageze mu kazi, n'icyuma kizwi nka kizimyamwoto.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu, kuri iyo nyubako hariho icyapa gishushanyijeho ijisho, hakagaragara n'ikindi gice kiriho agasanduku k'iposita.

Ni inyubako zigeretse, kugira ngo ugere kuri izo nyubako uca ku cyapa giteye mu busitani bwiza burimo indabo z'amoko atandukanye. Muri iyo nzira igera kuri iyo nyubako isashemo kaburimbo.

Inyubako yubatse muburyo bw’amagorofa isize irangi ry'umweru n'ubururu imbere yayo haragaragara ubusitani burimo indabo za pasiparumu n'izindi ndabo zitandukanye hagati harimo amatara ahahanitse agera kuri abiri.

Abantu bari mu nzira bajya binjira mu nzu, hejuru yabo hari ibyuma bisabasakaye. Mu ntoki zabo bafite udutente.

Mudasobwa ebyiri harimo igendanwa n'itagendanwa, ari kureba umuntu uhari ari kureba muri mudasobwa itagendanwa.

Igipangu cyubakishije amatafari ahiye muri icyo gipangu bagiye hagati aho hagomba gushyirwa amadirishya basudiramo ibyuma akagaragara mu busitani bwiza burimo indabo n'ibindi byuma abana bakoresha binyongaho.

Abantu bahagaze mo hagati mu nzu bambaye ibisarubeti by'imyeru bifite n'ingofero, inyuma yabo hari umuntu uryamye ku gitanda apfubitswe ishuka y'umweru yacometswemo serumu, hejuru ye hari inzitiramibu ikubye.

Inzu irimo amakaro, intebe n'ameza, hakurya y'ibyo ngibyo hari ibyapa byanditseho amagambo n'ibishushanyo by'inyamaswa zitandukanye mu mabara atandukanye nk'ayumuhondo, icyatsi ndetse n'umutuku.

Amazu abiri ateganye, hagati y'ayo mazu hagaragaramo igikuta kirekire cyanditseho amagambo, imbere y'ayo mazu hari ubusitani burimo indabo zitandukanye.

Inyubako nini ifite amadirishya arimo giriyaje z'umweru ndetse ikaba yanditseho amagambo hakoreshejwe ibara ry'umweru. Imbere y'iyo nzu hari indabo zitandukanye.

Umuganga uri gusasira umurwayi ari ku gitanda, bisa nkaho uwo murwayi arembye, muganga yambaye itaburiya, umurwayi nawe ari ku gitanda.

Abantu b'igitsina gore bambaye udupfukamunwa dusa bahagaze ku murongo, bafunze igipfunsi bazamura ukuboko hejuru, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo.

Umuntu uryamye ku gatanda ko kwa muganga, yambaye agapfukamunwa n'ikabutura y'umweru. Yatewe serumu mu kuboko arangije ukuboko agushyira ku ruhande ku musego w'agatanda.

Inyubako y'ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge, imbere yaho hagaragara indabo z'ubwoko butandukanye nyinshi cyane, iyo nyubako isize irange ry'umweru ahagaragara icyapa cyanditseho ayo magambo kiri mu ibara ry'umukara ariko ayo magambo akaba yanditse mu ibara ry'umweru.

Ni inzu ku kizitiro handitseho Kabgayi, iyo urebye mu imbere, mu nyubako uhasanga ibiti birebire ndetse n'amatara asanzwe akoreshwa ku muhanda.

Inzu yubatse mu buryo bw'igorofa, isakaje amabati y'ubururu, hanze y'iyo nzu hahagaze abantu bari inyuma y'imodoka ihaparitse, imbere y'imodoka hari akajaride karimo indabo.

Igitanda gishasheho ishuka y'umweru, hirya hakagaragara icyuma cyitwa kizimyamuriro na televiziyo iri kwaka n'indi televiziyo izimije, ku gikuta hari ishusho iriho abantu.

Icyumba gisizwemo irangi ry'umweru, harimo na parafu, hakagaragaramo agatanda karambuye hasi gafashwe n'ibyuma, imbere y'aho hari ikindi cyuma hejuru gifite na televiziyo, hagaragaramo amashusho.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe, imbere yabo hakagaragara ameza, umwe muri bo afite ikaramu irambitse ku meza, inyuma ye hakagaragara ikizimyamuriro. Hakagaragara n'ikindi cyapa cyanditseho ijambo Irembo.

Umuntu wambaye ingofero y'umweru n'iherena, akaba mu kiganza cye yambaye gamu, ari gukora ku kana karyamishijwe ku gitanda gisize irange ry'umweru. Aho ako kana karyamye kandi harashashe ishuka ry'umweru dede.

Abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'urubaho zitambitse, imbere yabo hari abandi bagabo bicaye ku ntebe ebyiri za shezi bafite n'ameza, hakagaragara undi mugabo uhagaze imbere ya bose, hirya ye hakagaragara ikibaho gihanitseho igipapuro kiriho amagambo.

Inzu nziza ku ruhande igotesheje ibyuma, ikaba ifite ubusitani, imbere yayo hagaragara utubuye dushashe neza, yanditseho inzu y'ababyeyi, imbere hakagaragara indabo ebyiri, rumwe ruri ku ruhande rwo hepfo urundi ruri ku ruhande rwo haruguru.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'indorerwamo z'amaso ufite peke, imbere ye hari umuntu w'igitsina gore wambaye ikanzu isa ubururu yashyigatiye inda, inyuma y'uwo muganga haragaragara amakoma.

Yubakishije amatafari ahiye isize irangi ry'umweru ku nkingi zayo hasi hakaba hasize umukara, imbere yaho hari indabyo zitandukanye, hakagaragara n'utwatsi dukeya cyane.

Mu cyumba cy'inzu bakoze umurongo, ku ruhande rwabo hari umugabo wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, yambaye n'ingofero y'urugara, hari abandi bicaye ku meza bari kwandika.

Igitanda cy'icyuma gifite udupine hasi. Kirambitseho ishuka ndetse n'umusego. Kiri mu cyumba gisize irangi ry'umweru dede.

Mu bitaro kwa muganga amashuka arazinze neza, ibitanda nta bantu babiriho, ibitanda by'umweru, bisize amarangi y'umweru n'umuntu ufite telefone inyuma mu mufuka.

Inzu igaragaramo intebe nyinshi cyane, buri ntebe, imbere yaho hari akameza, cyangwa akandi gatebe kakorewe ku buryo umuntu yagira ikintu arambikaho. Hejuru aho ngaho harimo parafo, ndetse ifite n'ibirahure n'amatara.

Inyubako, imbere yaho hakagaragara ibyapa bitandukanye n'umuhanda wa kaburimbo, muri iyo nyubako hagaragaramo umuntu usa nk'aho yambaye ingofero.

Inyubako y'amabati asize irangi ry'ubururu no mu madirishya aka ariryo rihasize, iyo nyubako yo isize irangi ry'umweru, imbere yaho hari ikigega gifata amazi, hakagaragara ubusitani buteyemo igiti kimeze nka voka.

Inyubako yubatse mu buryo bw'igorofa, ikaba ifite intebe z'amaguru ane ane, hejuru zikaba zifunikishije, ndetse hakagaragara n'ururabo ruri mu ivaze, inyuma y'izo ntebe, hafi y'umuryango.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ukaba umuryango ufunguye usize irange ry'umweru.

Inyubako iriho ibirahuri birebire cyane. Hakagaragara ko hamanitseho icyapa cyanditseho amagambo akoreshejwe mu ibara ry'iroza.

Inyubako y'amagorofa ndende cyane, kuri iyo nyubako amadirishya yayo yose ni ibirahure. Hariho ikirangantego cyangwa icyapa cyanditseho umubare cumi na kabiri.

Inzu ndende igeretse iruhande rwayo hakaba ubusitani bwa pasiparumu n'izindi ndabyo zitandukanye, aho bubakiye harimo igiti kirekire gikoruteye gifite ibishami byinshi cyane.

Ni inzu isize irangi ry'umweru yubatse mu buryo bw'igorofa, ukinjira ku muryango uhasanga ururabo rurerure, ku ruhande rw'iburyo n'urw'ibumoso rukikije umuryango, harimo ubusitani bw'indabyo zitandukanye.

Akantu kubatse nk'igicumbi cy'umudugudu kariho icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, hirya yaho hagaragara indabo nyinshi n'umuntu uri mu muhanda agenda ndetse hari n'inyubako ihegereye ndetse si ibyo gusa kuko hagaragara n'ibendera ry'igihugu.

Inzu nini irimo ibyuma by'ikoranabuhanga. Ikagaragaramo agatete bashyiramo imyanda ndetse ikagaragaramo na televiziyo ebyiri zihanitse hejuru. Muri iyo nzu, harimo inkingi eshatu.

Agatanda ko kwa muganga karambitseho igitambaro bakunze kwicazaho cyangwa kuryamishaho umurwayi, mu gihe bagiye kumucisha mu cyuma gipima umubiri cyangwa nko mu gihe afite nk'ahantu bagiye kubaga.

Umuntu wambaye ishati y'umweru wicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga inyuma ye hari undi wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ikoti ry'umukara n'agashati k'umweru asunika ako kagare, imbere yabo hahagaze umuntu w'igitsina gore wambaye umupira w'amaboko magufi w'umweru n'ipantaro y'umukara.

Kwa muganga. Umuganga yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'akarindamunwa, imbere ye hateretse mudasobwa ari gukanda arebamo ibisubizo by'abarwayi, ku ruhande hateretse n'ibindi byuma bikoreshwa muri serivisi z'ubuvuzi.

Abantu bicaye ku ntebe zo ku ivuriro, imbere y'iryo vuriro hari icyapa kinini cyane, hari abandi bahagaze impande yabo, batatu harimo n'uhetse umwana, unyuma y'abo ngabo, harimo n'uhetse umwana hari imodoka ihagaragara.

Inyubako nyinshi ziri ku murongo, zubatswe hejuru hakajya hagaragaraho akandi kantu kameze nk'akazu, imbere y'izo nyubako hari ubusitani bwiza burimo indabo zitandukanye na pasiparumu.

Inyubako yubatse mu buryo bw'igorofa, imbere yayo haragaragara imodoka z'imbangukiragutabara, n'izindi modoka zitandukanye z'amavatiri zihaparitse.

Inyubako yubatswe mu buryo bw'igorofa, haragaragara icyapa imbere hari umuhanda urimo kaburimbo, hakagaragara moto ndetse n'imodoka ziparitse.

Inyubako y'ikigonderabuzima cya Kigina, Imbere y'iyo nyubako ku muryango haragaragara umugore uhagaze ahetse umwana. Ukireba muri iyo nyubako uhasanga abantu babiri bahagaze ndetse kuri iyo nyubako hagaragara n'indabo z'ubwoko butandukanye.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, mu madirishya harimo asize irangi ry'yumweru, kuri iyo nyubako handitseho amagambo, imbere yayo hagaragara ubusitani burimo indabyo zitandukanye.

Inzu ndende ishakaje amabati asize irange ry'umutuku, hanze y'iyo nzu hateye indabo, hagaragara n'utuyira tugenda dukatakatamo, si ibyo gusa kuko hari n'amatara yo hejuru.

Abantu batanu hakagaragaramo umugabo umwe abandi bose ni abigitsina gore, inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye, kuri iyo nzu hamanitseho icyapa cyanditseho amagambo hakoreshejwe ibara ry'umweru n'umukara.

Imodoka iparitse impande y'inzu. Impande y'iyo modoka haragaragara moto yicayeho umuntu wambaye na kasike, hirya ye gato hari inzu ishushanyijeho icyapa kiriho amagambo n'abantu bari muri iyo nzu, harimo umugore uhetse, yifubitse ibishora by'umweru n'akana gatoya kambaye umupira w'umutuku.

Inyubako irimo ubusitani butoshye bugaragaramo indabo zitandukanye, harimo indabo ndende n'ibiti biteyemo ,hirya gato kuri iyo nyubako yubakishije amatafari ahiye, inyuma yaho hakagaragara ibigega bisize irangi ry'umukara, imbere y'iyo nyubako hakagaragara amatara.

Jaride iri imbere y'inzu hakagaragara n'umuntu wunamye imbere y'iyo nzu, ku rundi ruhande hari igiti kirekire cyegereye indabo z'ubwoko butandukanye, hejuru y'inzu handitseho amagambo.

Inyubako irimo ibikoresho byo kwa muganga ikaba isizwe irangi ry'umweru, ku gisenge cyayo hagaragara amatara yaka cyane ndetse hakaba harimo n'ibikoresho muri iyo nzu, hasi hakaba hari amakararo.

Ikibuga kigose inyubako. Muri iki kibuga hagaragaramo utwatsi dukeya cyane turinganiye n'ibindi byatsi birebire bikeya, bimeze nkaho ari indabyo. Iyo nyubako yubakishije amatafari ya Ruriba.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite umuryango urimo inzugi za metarike, hejuru handitseho amagambo ari mu mabara atandukanye, buri nyuguti ifite ibara, harimo amabara y'umuhondo, ay'icyatsi, ubururu ndetse n'umutuku.

Ni inzu yubakishije amatafari, abantu bakaba bicaye hanze. Hejuru handitseho ikigo nderabuzima cya gishweru, abantu bahagaze hanze hagaragaramo umuganga n'undi ufite igipapuro mu ntoki. Imbere yaho hari utubuye dushashe mu busitani.

Abantu bane bambaye imyenda ya siporo bari gukora imyitozo ngororamubiri mu muhanda mu buryo bwo kwirukanka. Umuhanda ni umuhanda wa kaburimbo ufite ubusitani ku ruhande Bwiza.

Umuntu wicaye hasi, afata amaboko ye ayacisha inyuma, arayahuza, ayashyira inyuma y'umutwe. Yambaye isengeri, hagaragara mu kwaha kwe.

Umuntu uryamye agaramye, azamura ukuguru kumwe akaguhina ariko akiryamye, muganga agafata mu nyonga ry'itako rye.

Ikirenge cy'umuntu usa nkaho ari kwiruka, bakaba ku kabumbambari barahashushanyije bakoresheje amabara abiri ndetse imitsi ye y'ikirenge isa nk'aho yireze no mu ntege yibaze.

Umuntu uhagaze yambaye agakabutura gatoya k'umukara kamugera hejuru y'amavi, ku ivi rye ry'iburyo bahashushanyije bakoreshejwe amabara abiri, muri ayo mabara harimo ibara risa nka kotoni n'irindi bara rijya gusa n'umutuku.

Amaguru y'abantu bambaye amakoboyi n'ibikapu biteretse mu twatsi ibikapu by'umutuku biriho umusaraba ndetse n'igicupa wagira ngo kirimo amazi.

Umuntu w'igitsina gore, uri kureba imbere, yambaye isaha y'umukara, na ekuteri mu matwi, yazamuye amaboko ye, arangije afata ukuboko kumwe arakugonda, ajya kugukoresha mu mugongo, ukundi akurambika hejuru ya kwa kundi.

Umuntu wicaye agafata ukuboko kwe, n'ikintu kimeze nk'igipamba, akikandisha ku kuboko, ukuboko kwe akurambuye ku ntebe.

Umuntu uhagaze mu nzu mo imbere. Yambaye gamu mu ntoki n'itaburiya y'umweru, n'ipantaro y'umukara. Imbere ye ku gikuta hari kizimyamuriro.

Igice cyo hasi cy'umubiri w'umuntu, uhereye ku kuboko usubiza hasi. Yambaye inkweto z'umweru. Hakagaragara n'insimburangingo yambitswe urukweto rw'umweru. Iyo nsimburangingo ni iy'akaguru uhereye mu gice cy'itako.

Umuntu wicaye mu twatsi arambura amaguru, yambaye supuresi ziri mu ibara ry'umukara n'umweru, arangije ari kunama akajya gufata hasi y'ikirenge cye.

Umuntu wambaye isengeri y'iroza, yambaye isaha ku kuboko n'ama ekuteri mu matwi, yazamuye amaboko arangije asa nk'aho bayahuriza hejuru y'umutwe we.

Akantu kameze nk'akadege kari kurekura igikarito kiriho umusaraba usobanura umuryango ufasha indembe. Hasi aho ngaho hagaragaramo ibiti bitoshye cyane.

Umuntu w'igitsina gabo uri gukora siporo yifashishije guterura ibyuma, ahagaze ahantu afite icyuma yakizamuye akigeza hagati y'umukondo ndetse n'igice cyo hepfo.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri aricaye ari kujya amanura akantu akagakoza ku mavi, akagaragara nk'umuntu bari guha ikarita ari nkaho ari umukinnyi wambaye nimero cumi n'eshanu mu mugongo, umusifuzi yambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umutuku.

Imiti, uducupa dutatu turimo imiti twose dufungishije imifuniko y'umweru. Turambitse ku gikarito kirimo amabara y'umuhondo.

Ahantu hari inyeri zisa umutuku n'izisa umukara, hakagaragara n'icyuma kirambitseho imetero yo mu bwoko bw'umushumi ndetse n'igikombe, kirimo umutobe usa umuhondo.

Umuntu wambaye ikabutura ngufi y'umukara n'isengeri y'umukara, afite isaha ku kuboko, yicaye hasi arangije ahina ukuguru afata munsi y'ikirenge.

Umuntu ufite uruhu rwirabura, akaba yafashe ikiganza cye, akagishyira ku ivi anarambitseho ikintu kimeze nk'igitambaro. Yambaye ikabutura y'umukara.

Igitanda cy'icyuma, gisize irangi ry'ubururu n'irangi ry'umweru. Hashasheho ishuka isa umweruru, muganga ahagaze impande yacyo na we yambaye ingofero y'umweru n'itaburiya y'umweru, iruhande rwe haragaragara icyuma gifite indorerwamo cyangwa se ikirahure kimeze nka tereviziyo harimo amagambo.

Umurwayi wicaye ku gatebe akaba yashyize ukuguru mu cyuma cyo kwa muganga kirambura ingingo, ari kumwe n'umuganga uhagaze iruhande rwe, mu kabati ke hari kugaragaramo ibinini.

Amazi y'umweru dede wakwita urubogobogo, ari gusukwa mu gikombe na cyo cy'icyuma cy'umweru cyane, hirya y'aho hagaragara igicu kirimo umweru n'ubururu.

Umuntu wicaye arambije amaguru inyuma ye hari undi wambaye Ijiri y'umutuku wamwiyegamije ,inyuma yabo bombi haragaragara abandi bantu benshi bambaye amajiri ari mu ibara ry'umweru ariko imbere hashushanyije umusaraba w’umutuku.

Umuntu uryamishijwe ku gatanda, yambaye n'inkweto z'umukara. Hejuru ye hari abantu babiri harimo uri hepfo ku gice cy'amaguru n'uri ku igice cyo mu gatuza uwo nguwo akaba amufashe no mu mugongo akoresheje ikiganza cye. Yambaye n'isaha y'umukara. Hakurya ye hari undi uryamishijwe ku gatanda.

Imetero y'umugozi irambitse ku twuma tubiri dusobekeranyije, hirya gato hagaragara mandarena isatuye n'indi idasatuye n'inyanya n'izindi mboga zitandukanye.

Umusore wifubitse isume mu ijosi wambaye agapira k'umukara, ufite ubwanwa bwinshi buconze neza. Akaba arikunywa amazi akoresheje gurude.

Inkoni y'icyuma ifite hasi hagaye hejuru ikaba isa nk'iyigonze ikaba ifite n'agashumi kayiriho hejuru aho higonze hagaragara n'igicucucu cyayo.

Umuntu wifubitse isume mu ijosi, akaba afite igicupa kirimo amazi ari kunywa, inyuma ya hakagaragara igihu cyangwa se igicu cy'umweru uvanze n'ubururu.

Umuntu wicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho, imbere ye haragaragara igikapa kirambitse hasi, ku rundi ruhande rwe hari undi ufite igikapa hasi na none uhagaze, wambaye agakabutura karimo ibara ry'umukara n'umweru.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'ari mu ibara ry'umukara, imbere y'ayo magambo hari abantu bahagaze, hari uwahinnye ivi ukundi ukuguru gusigara buhagaze neza, undi ahagarara neza, undi afata ku kintu kimeze nk'igiti arangije ahina ivi.

Ari kuywa amazi, yambaye isaha y'umukara, ndetse yambaye kuteri, imyambarire ye, isa neza cyane mu gapira k'umweru, yicongesheje, uko bigaragara afite n'agasatsi gakeye.

Imigozi myinshi cyane ikubiranije irunze ahantu hamwe, hejuru yayo hakagaragaramo umupira, imipira yo gukina harimo umupira w'amaboko ndetse n'umupira w'amaguru.

Icyapa cyanditseho amagambo, hakagaragara n'umukasi uharambitse aho ngaho, n'andi mabara atandukanye harimo umuhondo, harimo umutuku, harimo icyatsi.

Uri gukora siporo yahagaze ku kintu cya palastike agakandageza ukuguru kw'imbere ukwinyuma akagusigayo, akunama n'amaboko akayarebesha imbere.

Umuntu uryamye ku gatanda yubitse inda, hakaba hari undi uri inyuma ye uri kugenda ugorora utsindagira amaguru ye wagira ngo ari kumumasa.

Icyapa kiriho umuntu uhagaze wambaye ikabutura y'umukara, akaba yafashe ku itako rye hakibaramo amaraso, kuri icyo cyapa hagaragara inyandiko yanditse mu ibara ry'umukara, n'indi nyandiko yanditse mu ibara ry'umweru iri hepfo y'ivi ry'uwo muntu.

Umuntu wambaye umupira w'umweru n'igikomo mu kuboko ndetse n'mpeta ifite ibara ry'umuhondo, aregamye yafashe ukuguru kwe araguhina, arangije afatishaho amaboko ye.

Abana benshi bahagaze mu muhanda, harimo babiri bafashe umupira wo gukina bawuhanika mu kirere, undi mwana uri imbere yabo yateye intambwe azamura igipfunsi, hakagaragara n'ibiganza birimo gukoma amashyi.

Igishushanyo gikoze mu buryo bw'ikizeru, muri icyo kizeru haragaragaramo umusaraba uri mu ibara ry'umweru, imbere yawo hari umuntu uri kwiruka, hasi y'uwo muntu haragaragara ibiganza bibiri.

Umuntu ufite imisatsi ifungiye inyuma, mu kuboko kwe afite gurude ari kunyweramo amazi, hirya ye haragaragara amazi wagira ngo ni mu kiyaga.

Icyuma gifite udupine hasi, hejuru kikaba kimeze nk'igitanda. Gifite ikindi kigishinzemo aho hameze nk'igitanda kikazamuka kikagera hejuru. Aho hejuru hakagaragara ikindi kimeze nka televiziyo iri no kugaragaramo ifoto.

Umuntu w'igitsina gore wambaye isengeri y'umweru, inyuma ye hari intebe z'amadive zirimo n'imisego, yambaye kandi ipantaro y'umukara, arangije arambura ukuguru kumwe ukundi araguhina.

Umukobwa wicaye hasi arambura amaguru ye, ari kunama akajyana ibiganza bye kugirango akabirenza amano ye, yambaye imyenda yabugenewe yo gukoresha siporo.

Umukobwa wicaye ku gitanda kiriho imisego ibiri n'ikuvurore, arambura amaboko hejuru mu kirere arararama, yambaye imyenda y'umukara nta nkweto yambaye, yambaye ibirenge.

Igikoresho gikozwe muri parasitike gisizwe irange ry'umukara, ku mpande hazamutseho akarongo k'umweru hakaza n'akandi gatambitsemo, handitseho amagambo, hejuru gatoya hafukuyemo umwobo.

Umukobwa n'umuhungu bari kunywa amazi bateranye umugongo, umwe asa nk'uwegamye ku wundi, umukobwa yegamye umugongo w'umuhungu, umuhungu na we yagetse umutwe ku mutwe w'umukobwa, bari kunywa amazi ari mu bipipiri.

Umwana wasamye yambaye agapira k'amaboko magufi k'ubururu, muganga ari imbere ye yambaye agapfukamunwa n'itaburiya ari kumurika icyuma mu kanwa ke, inyuma ye hahagaze umukobwa n'umuhungu nabo bambaye ubupfukamunwa, imbere ya muganga hari ameza ateretseho ikayi.

Umuganga ndetse n'umumama ukikiye umwana mu ntoki, muganga yafashe ikintu kimeze nka kamera agitunga umwana mu gahanga, ni uko ifoto y'uwo mwana igaragara muri mudasobwa, iteretse ku meza ya muganga.

Ufite uruhu rw'umukara cyangwa se uruhu rwirabura, afite mu kiganza cye igicupa ari kunyweramo amazi, yagishyize hejuru ararama ari kunywa amazi, hakagaragara n'igicu gisa nk'aho kirimo umweru n'ubururu.

Abantu batandatu bicaye mu nyubako yo kwa muganga, inyubako irimo amakaro n'imbere yabo hakaba muganga wa karindwi uhagaze imbere y'icyuma, ari kubasobanurira byinshi, muri icyo cyuma hagaragaramo ifoto y'umuntu.

Umuntu wambaye imyenda isa ubururu na ga mu ntoki zisa ubururu, ari kwambara agapfukamunwa. Imbere ye hari amakayi ndetse na mudasobwa ifunguye.

Umuntu wambaye agapira k'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara, mu kuboko kwe kw'ibumoso afitemo umupira wo gukina, ushushanyijeho umubare kane.

Abantu babiri harimo uwambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara, akaba ahagaze imbere y'undi usutamye wazamuye amaboko hejuru, uwo nguwo usutamye yambaye ipantaro irimo akabara k'umweru ku ruhande.

Umuntu uryamye arangije ahina ivi, muganga yambaye itaburiya y'umweru n'akandi gakoresho yambaye mu ijosi, kuri iyo taburiya y'umweru handitseho amagambo, muganga rero ari gukora ku ivi ry'uwo muntu.

Umuntu wambaye ipantaro y'umukara iciyemo akarongo k'umweru, yambaye impeta n'igikomo ku kuboko, yahinnye ukuguru arangije aza afatisha impande zombi ibiganza bye.

Umuntu w'igitsina gore warambitse yicaye hasi, arangije arambura ukuguru kumwe ukundi aragukuba agufatisha kuri kwa kundi yarambuye neza, ahina umugongo yohereza ukuboko kwe afata munsi y'ikirenge ukundi akurambika ku kuguru kwe kurambuye.

Abantu babiri harimo uwambaye isengeri y'umutuku, n'undi wambaye umupira w'umweru inyuma agashyiraho ijiri irimo ibara ry'icyatsi, inyuma yabo haragaragara undi muntu wambaye ingofero, ndetse n'icyapa cyanditseho amagambo.

Yambaye impeta, yafashe ikiganza, agifatisha ikintu kimeze nk'ipamba, yashyizemo umuti ari kwikanda ku kundi kuboko.

Umuntu w'igitsina gore, uhagaze amaguru ayegeranyije, azamura amaboko hejuru ayafatanyije, aba yambaye isudiya y'umweru n'ipantaro y'umukara. N'imisatsi myinshi cyane yasukishije.

hagaragara isume irambitse kuri tapi hejuru y'isume harambitseho ikigurude kirimo amazi hafi aho hari imbuto harimo amagi harimo imineke harimo inyeri arimo inyama ndetse hakagaragaramo n'urusenda si ibyo gusa kuko hagaragaramo na soya

Umuntu uryamye ku gatanda kameze nk'ako kwa muganga k'utwuma, aryamye yubitse inda, ku maboko ye haciyeho imanzi, uwo bicaranye afite uruhu rwera.

Umuntu washinze ibiganza yubamye ariko ntiyakoza inda hasi, yambaye agasengeri k'umweru, ku ruhande rwe hari imbuto zitandukanye, harimo manderena, igitunguru, umuneke ndetse n'urunyanya.

Ni ikizingo cyose cy'umuseno nta n'agace bari bakuraho, gikoze nkaho, gikoze mu buryo hagati harimo umwobo ufukuye...

Imbangukiragutabara iri mu muhanda wa kaburimbo, kumpande zaho hari ubusitani bwindabyo zitandukanye. Imbere yaho hari ibiti birebire cyane, iri gusa nkaho igiye gukata.

Umuntu ufite imisatsi yimibono yazinzemo akantu kayihambira inyuma, yazamuye amaboko ye arangije asobekeranya ibiganza, asa nkaho bigaramye hejuru imbere ye hari ibara ry'ubururu.

Inzu isize irangi ry'umweru. Harimo akabati gakozwe mu mbaho nako gasizwe irangi ry'umweru. Impande y'ako kabati hagaragara indobo zisize irangi ry'umuhondo.

Ikarito iri mu bwoko bw'umweru, hagaragaramo umukasi n'amagambo yanditse ku gipaki kirimo aho ngaho, hagaragaramo n'utundi tuntu dufite amabara atandukanye, harimo dufite amabara y'icyatsi, harimo umuhondo, hagaragaramo n'ubururu ndetse n'andi magambo yanditsemo.

Imbuto zitandukanye harimo umuneke, inanasi, umwembe ndetse n'utunini dusutse ku ruhande twinshi dufite udufuniko kamwe gapfundikira akandi n'imetero y'umugozi iri impande y'igicupa.

Abantu babiri bari mu kibuga umwe aryamye agaramye, ku ruhande rwe hari umupira wo gukina. Yambaye inkweto za godiyo, amasogisi y'umukara, ikabutura y'umukara n'umupira w'ubururu, undi na we apfukamishije ivi rimwe iruhande rwe, yambaye umupira w'ubururu n'ikabutura y'umukara.

Igikapu gisa umutuku imbere kikaba gisa umukara, ku ruhande haragaragaramo akabara k'icyatsi, mo mu imbere harimo imakasi, isaha, sharijeri n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Igikarito gifunzemo ibintu imbere, kiri mw’ibara ry'ubururu ,umweru ,umuhondo ndetse n'umutuku. Amagambo menshi acyanditseho ari mu ibara ry'umukara utijimye.

Igiti kiriho amababi maremare manini afite ishusho imeze nk'umutima cyitwa umuravumba, gikunze gukoreshwa cyane cyane kivura indwara z'ubuhumekero, nko kuba umuntu yarwaye ama anjine.

Icupa ry'umweru rizamo ibinini ripfundikishije umuvuniko w'umweru, hakaba hariho icyapa kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, inyuma yaho hakagaragara imbuto ziri mu ibara ry'umuhondo.

Imiti y'ubwoko butandukanye yakomatanyirijwe hamwe, harimo imiti iri mu bintu bisa nk'aho ari bibuni, kuri ibyo bisa nk'aho ari ibuni hagaragaraho igikakarubamba ko aricyo gishushanyijeho si ibyo gusa kuko handitseho n'amagambo ari mu mabara atandukanye, hakagaragara n'utundi ducupa dutoya tuzamo ibinini.

Ubwoko bw'ikimera gifite utubabi tureture, gisa nkaho cyabonye, giteye ahantu heza cyane kiratoshye kirashishe, gisa nkaho cyabonye imvura n'izuba kuko ubona ko gishishe cyane.

Ibicupa by'imiti biteretse ahantu, muri ibyo bicupa haragaragaramo igisa n'ikibuni gisize irangi ry'umuhondo n'ibindi bigaragara bishushanyijeho igihingwa cyitwa igikakarubamba.

Ni imiti gakondo irambitse ku mukeka, hagaragaramo imiti isa nkaho ari iy'ifu bamaze gusya ndetse n'iyindi yanitswe itari yavamo imiti.

Igiti cyigonze gifite amababi arambuye kiri kumwe n'ibindi biti bitandukanye, icyo giti cya mbere kikaba cyitwa umuravumba.

Umurima uteyemo igihaza cyarandaranze hagati y'ibindi bihingwa bihari, ibibabi byacyo ni binini cyane, kikongera kikagira indabo zigera kuri enye, ni zo ziri kugaragara.

Igisate cy'ipapayi hagaragaramo imbuto zacyo, kirambitse hejuru y'ikindi gipapayi kidasatuye kikiri cyose kigifiteho ibara ry'icyatsi n'umuhondo mukeya.

Icyapa cyanditseho amagambo, uruhande rwacyo rw'iburyo rukagaragaraho umweru usa nk'uwijimye gakeya, ku ruhande rw'ibumoso rukagaragaraho ibara ry'umutuku.

Umugore ufite ishakoshi arifubitse n'agatambaro k'umweru, ari guca ibyatsi bita umuravumba, impande ye hagaragara insina ndende y'urutoki.

Udutebo turimo indabo zitandukanye. Harimo indabo zifite umuhondo n'umweru hagaragara n'indabo z'umutuku zamaze guhuguta hakagaragara izindi ndabo z'umuhondo zirimo udutebo, iziri mu mabase hakusanyirijwe indabo z'ubwoko bwinshi.

Ururabo rutewe mu kintu cy'ikivaze hirya yaho hagaragara utundi ducupa n'ikindi kintu bakoze mw’ibumba gisize irangi ry'umweru icyo kivaze nacyo gisize irangi ry’umweru.

Umurima urimo ibyatsi byinshi cyane bitandukanye muri byo harimo ibifite ibibabi birebire cyane bisa nkaho bishongoje kumpera yabyo nyuma yaho hakagaragara n'ibindi birebire bimeze nk'ibiti.

Icupa rifite ibara rijya gusa igitaka n'umweru, hakaba hariho ikirangantego kirimo agasimba gasa umukara gafite n'utujanja.

Ni umuti ukunze gukoreshwa cyane cyane abarwaye inkorora, witwa tangawizi. Hari tangawizi nzima zitigeze zikorwaho, hari na tangawise bagiye bagakatamo udupande tumeze nk'udupine.

Haragaragara imiti gakondo, harimo n'igikakarubamba, hakagaragaramo tungurusumu, hakazamo tangawizi n'bindi byatsi bitandukanye bikoreshwa mu muti gakondo bimwe bikavamo n'ibinini.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku n'andi ari mu ibara ry'umweru, imbere yaho hagaragara ibibuni harimo ikibuni cy'umuhondo n'ikibuni cy'umweru, n'ibindi bipaki by'imiti biri ku ruhande.

Ishyamba ririmo igiti kizamutse neza kigatangira gifite amababi y'icyatsi cyagera ku musozo w'ishami amababi akaba umweru.

Amacupa azamo ibinini. Uducupa dutatu tugufiya, ku ruhande rwaho hagaragara ikindi gisa nk'aho ari igikombe, n'utwo ducupa dutatu twose ni utw'umweru.

Ni igiti kiri mu gihoho gifite amababi maremare ameze nk'ay'ikawa, gifite amababi agera kuri atanu maremare hagati mu ruti rwacyo kigaragara nk'aho gitangiye gushibuka.

Icupa rikozwe mu buryo bw'kirahure, ripfundikije umufuniko ufite ibara ry'icyatsi, kuri iryo cupa hariho icyapa cyanditseho ijambo umurava, hakagaragara hasi n'akandi kantu kameze nk'agasahane, karimo ibikorwamo icyo kintu kiri muri iryo cupa.

Imbuto za mandarine bagiye baketse bakazishyira mu gasuperi, ku ruhande rwaho haragaragara tangawize ariko ikiri yose batigeze banakataho.

Ibibindi bine bitetse ahantu imbere yaho hari tangawizi zikasakase nk'udupine hakaba igikakarubamba kirambitse ahantu ndetse hakagaragara n'igitebo kirimo ibintu bisa umuhondo ndetse n'indabo z'umutuku.

Ni ikimera giteye ahantu heza. Hakagaragara ko ibiti bigikikije. Kikaba kibereye inyuma y'inzu.

Igishushanyo kigaragaraho ibimera bitandukanye harimo ikimera gifite akarabo k'umuhondo. Hepfo y'ibyo bimera haragaragara ibindi bishushanyo byanditseho n'amagambo.

Hagaragara ibinini binini cyane biri mu kintu kimeze nk'igishashi cyabyo, hejuru hagaragara ikirangantego cyanditseho alliance na makumyabiri na kane akarongo kaberamye karindwi.

Icyapa cyanditseho amagambo hakoreshejwe ibara ry'umutuku wijimye ndetse n'umukara, hagaragara ho n'utubabi tw'ikawa, hepfo gatoya hagaragaza ifoto y'umurima uteyemo ikawa.

Umuti ucuritse ufite agafuniko k'umweru, ushushanyijeho igihingwa bita igikakarubamba, kigaragara mu ibara ry'icyatsi.

Icupa ry'umuti ripfundikije agafuniko kajya gusa nk'umutuku, kuri iryo cupa ry'umuti hagaragaraho bimwe mu byo mu byifashishijwe kugira ngo uyu muti ukorwe harimo igikakarubamba ndetse n'ibitunguru.

Ni ikimera cyitwa kapisine, kiri kumwe n'izindi ndabo zitandukanye, ziraba umweru, iziraba umutuku, iziraba iroza, hagaragara hafi aho ngaho nkaho kiri ahantu mukibuga cyangwa se ahantu n'ubundi hatahinzwe.

Akabati gakoze mu mbaho, gasize irangi ry'umweru, utwumba twako haragaragaramo amacupa ya palasitike arimo imiti n'amacupa y'amavide arimo imiti, muri yo hari afite imifuniko y'umuhondo.

Ni ikimera gifite utubabi dushongoje, kikagira udushokoro hejuru, mu busanzwe kizwi nk'inyabarasanya, gikunze gukoreshwa mu kumutsa igisebe, igihe umuntu yakomeretse ashobora gushyira kuri icyo gisebe kikuma vuba.

Ishusho y'umukara wijimye, hakagaragaraho agacupa, gateretse ku kintu cy'umweru, na ko gasa umweru cyane, kanapfundikije umufuniko w'umweru, hakandikwaho amagambo.

Icupa ririmo umuti rikaba handitseho ngo uvura kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha, ikumira indwara zifata porositeti.

Umuntu wambaye itaburiya akaba yicaye imbere ye hari ameza ateretseho ibicupa bibiri, igicupa kimwe nicya plastike kirimo umuti ukoreshwa wica udukoko mu ntoki akaba n'ikindi gicupa gikozwe mu cyuma.

Icupa ry'umuti risa umweru, rikaba ripfundikije agafuniko k'umweru, hakagaragaraho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, n'udushushanyo hariho agasimba, hakagaragaraho imirongo itambitse n'imirongo ihagaritse yanditse mu ibara ry'umukara.

Amacupa arimo imiti itandukanye. Harimo amacupa magufiya ya amacupa ameze nk'utubuni, apfundikije imifuniko. Muri ibyo bicupa binini bimeze nk'ibibuni harimo icy'umuhondo n'ibyumweru.

Amacupa y'amavide arambitse hasi, kuri yo hariho ibyapa byanditseho amagambo ndetse mu mabara atandukanye.

Icyapa kiri mu ibara ryijimye ry'umukara, kikagaragaraho agacupa k'umweru gafite n'umufuniko w'umweru, kuri ako gacupa handitseho amagambo.

Igihingwa cya voka kiri mu murima. Hirya hagaragara ibara ry'icyatsi kibisi n'ukuboko k'umuntu kuri gufata ku kibabi cy'igihingwa cya voka.

Icyapa kigaragaraho amaboko abiri n'igicupa gifite umufuniko w'umweru, kikaba cyanditseho amagambo hejuru y'igicupa no hasi y'igicupa.

Ikiganza gifashe ibiti bibiri bisobekeranye, mu igiti kimwe gifite utubabi twagishibutseho, hirya yacyo haragaragara indobo irimo iteyemo ururabyo.

Amacupa arimo imiti gakondo, hari amacupa agera kuri atandatu, harimo uducupa dutoya twa palasitike tubiri n'ibindi bicupa bikunze gukoreshwa mu mayoga, harimo utugurudu tw'inzoga...

Ni ubwoko bw'imiti harimo umuti uri mu gacupa k'umweru gapfunditi umufunika w'umukara, hakaza undi muti umeze nk'agatobe upfundikije agafuniko k'umweru, hakaza ndetse n'imiti iri mu kintu kimeze nk'ikidobo...

Icupa ry'umweru rifungishije umufuniko w'umweru, handitseho amagambo inyuma akoresheje ibara ry'ikivuzo hagaragara n'akandi kantu kameze nk'akanyoni cyangwa agasiga gashushanyijeho.

Ishyamba ririmo ibiti byinshi cyane, hari kugaragara ikimera nacyo kiri mu bwoko bw'igiti, gifite utubabi dutoya turi kuri ako gati, gateye ahantu hari n'amabuye manini hasi.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, hakagaragara n'ibinini bisutseho n'agacupa gasa umweru afite umuvuniko w'umweru kanditseho amagambo.

Akabuni k'umweru gateretse ahantu gapfundikije umufuniko w'umutuku hakaba hariho akapa kameze nk'agasiga kari mu ibara ry'umutuku n'amagambo yanditswe mu ibara ry'umutuku wijimye.

Ikimera gifite amababi maremare, uruti rwacyo akaba ari rutoya. Ku mashami, agati kariho ayo mababi ashongoje cyane ni gatoya cyane.

Ibibuni byahagaritswe ku mirongo itatu yegeranye, kuri ibyo bibuni hashushanyijeho agasiga hakandikwaho n'amagambo ndetse n'igihingwa cyitwa igikakarubamba. Ibyo bibuni bisize irangi ry'umuhondo.

Umuravumba uvura indwara nyinshi zitandukanye, ni ikimera umuntu ahinga kigakura, kiba gitoshye gifite amababi maremare, gikunze gukoreshwa cyane ku bantu baba barwaye ku ndwara z'ubuhumekero, harimo nko kurwara ibicurane, harimo nko kurwara amagiripe n'izindi zitandukanye.

Icupa ririmo ubuki butunganijwe neza, kandi ubuki akaba ari umuti ukunze gukoreshwa n'igihe umuntu yarwaye ubugendakanwa bagakuba k'ururimi.